Igihugu cyacu ndagikunda cyane kuko gifite umutekano uhagije, kigafasha abantu kwambuka neza umuhanda kugirango ibinyabiziga bitabagonga, kandi n'umuvuduko muke mu muhanda bikaturinda impanuka.

Buri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi haba umuganda rusange abaturage bose, barawitabira iyo urangiye haba inama rusange bari kuvuga n'uko umuganda rwagenze.

Imboga zisharira z'isogo abakecuru barazikunda, niyo mpamvu akenshi usanga bazigeretse ku bishyimbo, barazirya bakumva baranezerewe cyane.

Umuco wacu ndawukunda cyane kuko habamo imbyino zigiye zitandukanye, hari ababyina ikinimba, hari ababyina igishakamba, hari ababyina imishayayo, hari ababyina n'imisharabiki.

Mu muco wacu tugiragamo ibinyampeke bigiye bitandukanye twavugamo: amasaka asa umutuku tukayinika agasa umukara, tukagabeteshamo umusururu tukawunwa.

Mu muco wacu tugira igisabo bacundiramo amata, kirangwa n'uko gifite amabondo, kikaba gifite umujosi muremure cyane, kandi kikagira n'umupfundikizo.

Mu muco wacu tugira ibikoresho bigiye bitandukanye, muri ibyo bikoresho twavugamo agakoko bagosoreraho umuceri ,tukavugamo n'agaseke bashyiramo ipfukire.

Mu muco wacu tugira ibikoresho bigiye bitandukanye, hari ingabo bikingira igihe bari ku rugamba, hari n'imyambi bakoresha igihe bari kumasha.

Umuco wacu ni mwiza cyane kuko urakundwa. Ba mukerarugendo baza gusura ibikorwa remezo bitandukanye, ikindi kandi isuka turayigisha kugira ngo ngo imyaka yacu ikure neza cyane.

Umuco wacu ndawukunda cyane, kuko dukunda guteka ibiribwa bigiye bitandukanye twavugamo ibishyimbo, n'ibidodoki, n'ibihaza.

Mu muco wacu tugira ibikoresho bitandukanye, muri ibyo bikoresho twavuga nk'uducuma banywesha inzoga igihe habayeho ikirori cyo gusaba no gukwa, ndetse no kwita izina abana.

Inzuki ni nziza cyane, turazikunda kuko ziduha ubuki ,ikindi kandi ziramvomvomvwa mu buki bukaryoha, abantu bakishima kuko buba n'umuti.

Ishoka n'igikoresho twifashisha igihe tugiye kwashisha inkwi zo gutegesha, ikindi kandi igira umuhini ibaga isa n'umukara hasi ifite umunwa usa n'umweru.

Iyo umusururu bawushigishe neza, bakawushyira mu kibindi urabira, abantu bagatangira kuwunywa, ikindi kandi uba wavuye mu masaka bita amamera.

Mu muco wacu tuboha ibintu bigiye bitandukanye, tuboha uduseke dufite amabara atandukanye, ibara ry'umutuku n'ibara ry'umweru. Ako gaseke kaba gasa neza cyane.

Umuco wacu tugira ibikoresho bigiye bitandukanye twavugamo nk' isuka. Isuka turayihingisha tukanayuhiza ibirayi igihe tugiye gushyiramo ifumbire mvaruganda.

Isekuru ni igikoresho kidufasha gukoreramo ibintu bitandukanye, twavugamo nko gusekuriramo isombe abantu barya, ikindi kandi tuyisekuriramo n'imiti.

Kunda umuco wacu, kuko utoza imirimo itandukanye. Umwari ndetse n'umutegarugori agomba kuba azi kugosora ibishyimbo kandi akabihura neza akabigosora neza bikava nkumbi.

Umuco wacu tugiramo imitako igiye itandukanye igiraga amabara, umukara, ibara ry'umweru, kandi bayitakisha munzu tukabona inzu ari nziza cyane.

Muri butiki habamo ibikoresho bigiye bitandukanye. Ibyo bikoresho twavugamo umukubuzo bakuburisha, isafuriya batekamo, isahane bariraho, ndetse n’icyuma bahatisha.

Imashini zitanga umuriro abantu barazikenera cyane. Ikindi kandi buri rugo ruba rufite umuriro kugira ngo rukore ibikorwa byabo neza, kandi babona , abantu bagiye kuryama bazimya umuriro kugira ngo baryame bitababangamiye.

Igihugu cyacu ndagikunda cyane kuko kigira ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, twavugamo amashuri, insengero, ibitaro, amasoko.

Nkunda ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, twavugamo urusengero. Ikintu kiranga urusengero nuko ruba rumanitseho umusaraba. Ugezeyo wese ahita amenya ko ari urusengero kubera uwo musaraba.

Igihugu cyacu, kigira ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, muri ibyo bikorwaremezo twavugamo insengero, ziba zifite umusaraba hejuru, kandi zisakaje amabati y'umutuku, zisizwe amarangi y'umuhondo.

Aya amashuri agerekeranye kuko aba ari meza cyane ateye amabengeza ,aba agaragara neza ,ikindi kandi abanyeshuri benshi basigaye bakunda kujya ku ishuri kugira ngo barebe ayo mashuri agerekeranye.

Igihugu cyacu gifite ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, niyo mpamvu tugomba kwiteza imbere dukoresheje ibyo bikorwa remezo bya twubakiwe, leta yatwubakiye imihanda, yatwubakiye insengero, itwubakira n'amashuri kugira ngo tubeho neza cyane.

Mu gihugu cyacu tugira ibikorwaremezo bigiye bitandukanye tugiramo: insengero, uturere, amashuri, n'imihanda. Kugira ngo twiteze imbere, duteza n'igihugu cyacu imbere.

Tugera ku bininyabiziga bigenda bitandukanye : hari amagare, hari moto n'imodoka. Iyo tugiye mumodoka tugenda tuguwe neza kandi twishimye cyane.

Tugira amoko menshi y'ibinyabiziga, hari iyitwa vorukano itwara abagenzi benshi cyane, bakagenda bisanzuye kandi baguwe neza. Akenshi itwara abanyeshuri.

Nkunda moto kuko zirihuta cyane zigatanga umunyenga ushimishije, umuntu akagera ahantu aragera ku gihe adakerewe kuko zitandukanye n'ibindi binyabiziga byose.

iyo mfite urugendo nkunda gutega moto kuko irihuta cyane .Naho imodoka yo igenda ihagarara mu nzira . Niyo mpamvu iyo umuntu afite urugendo rwihutirwa , agomba gutega moto kuko yihuta cyane.

Imodoka ni nziza cyane, abantu barazikunda, kuko zibafasha kugera ku kazi, kandi byihuse bitabagoye, ziba zirimo amoko agiye atandukanye, hari izo bagenda bicaye, bakareba hanze, bakumva baguwe neza cyane.

Bisi ni imodoka nini cyane iba itwawe n'umuntu umwe, kandi iba irimo abantu benshi cyane batandukanye, bagenda baguwe neza.

Moto ni ikinyabiziga kigira amapine abiri abagitwara baba bambaye kasike, kandi moto irihuta cyane ikakugeza aho ugiye ku gihe.

Siporo ndayikunda kuko ari nziza ku buzima bwacu bwa buri munsi, ituma amaraso atembera neza mu mubiri tukumva tunezerewe cyane, kandi ntidusaza amaraso atembera umubiri wacu neza.

Basiketi ni umukino mwiza cyane ukinwa n'abantu batanu kuri buri ruhande ikindi kandi uryohera abantu benshi kuko uba ushimishije.

Nkunda umukino wo koga cyane kuko uba ushimishije, abantu benshi baraza bakawureba bakihera ijisho, kubera ukuntu uba umeze neza cyane.

Mu mudugudu habamo inzira zigiye zitandukanye, hari izimanuka hari izitambika hari n'izizamuka, zigiye ku musozi aho amazi y'abaturage aherereye.